Umugabo urimo utera umuke mu murima we, akoresheje uburyo bugezweho bwo gushyira mu gapira ugaheka mu mugongo ikimeze nk'ijerekani, ndetse ukagenda ufuhira ahantu hose kugira ngo udukoko dupfe.

Umugabo urimo ugerageza gutera umuti mu bihingwa bye akoresheje uburyo bugezweho bwo gukoresha agatiyo gacometse ku kimeze nk'ijerekani ndetse bworoshye cyane gukwirakwiza umuti hose mu murima.

Umugore uhagaze mu murima urimo ibihingwa bisa neza kandi bitoshye ndetse n'ikirere gifite umucyo, afite ikimeze nk'ijerekani kifashishwa mu gutera umuti ibihingwa kugira ngo bitatakwa n'udukoko.

Abagabo batatu bari mu murima w'umuceri, bahetse utumeze nk'amajerekani, barimo bagenda bafuhera, ibimeze nk'amazi ariko ni umuti, w'udukoko ushinzwe kwica, imyanda yose iri mu biribwa.

Umugabo urimo utera umuti mu bihingwa bye, ndetse nawe we akoresheje uburyo bugezweho bushyashya bwo kuwuhira udakoresheje intoki ahubwo ukoresheje akameze nk'ijirekanmeka ku mugongo ugacomekamo itiyo.

Umugabo urimo uratera umuti mu murima we w'umuceri kugira udukoko twose dupfe kandi imyanda yose ive mu bihingwa bye ndetse ari gukoresha uburyo bugezweho bwo gukoresha agatiyo gacometse mu kimeze nk'ijerekani.

Abagabo bahagaze babiri, umwe afite ikayi ndetse undi afashe ikidomora gifasha kuhira imiti mu bihingwa kandi yifashishijwe agatiyo gacomekwamo inyuma mu buryo bworoshye.

Umugabo uhagaze mu murima wambaye wikwije umubiri wose no mu maso ndetse ufite agatiyo karekura umuti mwinshi arimo aragenda afuhera mu murima we kugira ngo yice udukoko twose twamurira ibihingwa.

Abagabo barenze bane barimo baragerageza kuba bahambura cyangwa se gusobanura inshundura yabo kugira ngo bayiterere mu mazi babe babasha kuroba amafi.

Umugabo uhagaze wambaye inkweto zabugenewe zigenda mu cyondo ndetse ahagaze hejuru y'ibyuzi arimo aragenda ashyiramo ibiryo bitunga amafi y'iwe yororeyemo.

Umugabo uhagaze mu mazi ndetse amazi asa nabi, ufite indobani irimo amafi yarobye agiye kuba yacuza cyangwa se yashyira umuryango we.

Abantu benshi bahagaze ndetse bamwe bari mu mazi, abandi bahagaze hejuru y'amazi, bafite inshundura y'umukara ndetse bahagaze mu mazi asa umukara, akikijwe n'ibyatsi ku ruhande.

Abarobyi b'abagabo barimo bakura amafi yabo mu nshundura bayashyira mu ibase, ndetse bayogeje neza bahagaze hagati mu gishanga ndetse gikikijwe n'ibiti byinshi.

Umugabo ukikijwe n'ibyatsi byinshi, ndetse uhagaze mu bwato bw'ibiti, ufite inshundura, arimo agerageza kuyishyira mu mazi, kugira ngo agerageze kuba yafata amafi.

Umugabo wikoreye igifuka kinini, arimo aca hagati mu tuyira tuba duciye mu makawa, kugira ngo abashe kuba yavamo ndetse inyuma ye haragaragara ibiti byinshi n'amaterasi y'indinganire.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bahetse ibitebo ku migongo, bari mu murima w'ikawa barimo bagenda basarura ikawa izwi cyane nk'itanga umusaruro ukomeye mu Rwanda.

Urubuto rw'ikawa rusa neza kandi rutoshye rweze neza rugaragarira neza amaso y'abarureba kandi rukunzwe cyane mu bihingwa bikunzwe cyane mu Rwanda runagurishwa cyane kurusha ibindi.

Ababyeyi babiri bishimye, bafite akamwenyu ku isura ndetse hagati yabo hari igitebo barimo basaruriramo imbuto y'ikawa kugira ngo babe bajyana ku isoko bagurishe.

Umubyeyi ukuze ya uteze igitambaro mu mutwe urimo usoroma ikawa ku biti byazo, ikawa zeze neza kandi zitoshye, ikawa zizwi cyane mu Rwanda kandi zinjiza atari make.

Abagabo n'abagore bari mu kigero cy'abakuze bahagaze ku murongo, bari mu gikorwa cyo gusarura igihingwa kizwi ku izina ry'ikawa ndetse bakikijwe n'imisozi iteyeho amaterasi y'indinganire.

Aho bagurishiriza imiti hamanitse imiti itandukanye, ifite ibikarito bigiye bitandukanye by'amabara atandukanye, harimo ibyica udukoko ndetse hari ibyica ibinyenzi byo mu nzu n'amasazi.

Aha haragaragara, imiti iri mu bikarito ndetse n'indi iri mu bikombe binini, bisa umweru, bishushanyijeho inka, imiti y'inka izikiza uburwayi butandukanye ndetse n'udusimba.

Umurima wibigori byumye urimo abagore ndetse n'abagabo, barimo bagerageza gukura ibigori ndetse babikura ku biti byabyo n'amababi yumye cyane.

Umugabo ukuze urimo uragerageza guhereza inka yiwe iri mu kiraro ubwatsi ndetse arimo arayigaburira mu kimeze nk'umuvure cyabugenewe amatungo ariramo.

Umugore ukuze wambaye umupira w'icyatsi, ufite igiti mu ntoki, ugiye kugitera ndetse inyuma ye hari abagabo bambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'uri ku ruhande wambaye umupira w'umuhondo.

Ababyeyi babiri barimo barahinga bafite amasuka ndetse inyuma yabo hari ibigunda n'ibyatsi, ahirengeye hirya hari imisozi igaragara neza kandi iteyeho amashyamba idatuwe.

Abantu barimo bazamuka bamwe muri bo bikoreye imkwi ndetse n' inyuma yabo hari inka zirimo zirisha mu kibaya gihari ndetse abenshi muri bo barimo barazamuka bikoreye amasuka ku rutugu.

Imbuto n'imboga bikeye kandi bitoshye birimo pavuro, amacunga, amaronji, ibigori, za kokombure, ibihaza, amashu, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imboga ziri ahantu hamwe kandi zitoshye, zirimo inyanya, imboga, ibitunguru, imiteja ndetse n'ibindi byinshi, ibi bifasha kongera intungamubiri mu mubiri.

Imbuto n'imboga zigaragaramo, puwavuro, amaronji, amacunga, imyembe, pome, kokombure, ndetse n'izindi nyinshi, zifasha umubiri kugubwa neza.

Imboga zizwi ku izina rya dodo, zigaragara ahantu hari igitaka kijimye, ndetse izi mboga zizwi ku ntungamubiri zitandukanye, kandi zikungahaye kuri vitamine nyinshi zituma abana batarwara.

Umuntu ufashe imbuto n'imboga mu ntoki ndetse hirya ye hari utugare bashinzwe gutwariramo imbuto n'imboga iyo baje guhaha, imbuto afite n'imboga haragaragaramo: imyembe, karoti, pavuro n'ibindi.

Imboga zinyuranye ziragaragara hano, harimo insenda, inyanya, ibitunguru, kokombure, puwavuro, ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, zirimo n'inkeri, ndetse n'izindi zituma abantu bagira intungamubiri.

Abantu benshi, bari hamwe, barimo bakora igikorwa cyo kuzamuka umusozi, kugira ngo ngo bajye kureba ibyiza biri hejuru, ndetse bambaye imyenda yabugenewe, bafite n'ibikoresho byabugenewe.

Umuhanda muremure wa kaburimbo ukomeza ndetse urimo uragendamo ikinyabiziga k'imodoka hirya no hino, ukikijwe n'amashyamba menshi ndetse n'ibiti birebire.

Ishyamba ryiza kandi rinini rya kimeza riteyemo ibiti birebire by'inganzamarumbo ndetse hirya no hino ntakigaragara kindi usibye ibiti byinshi birebire kandi bitoshye.

Ibiti byinshi bikoze ishyamba ibigiye biri ku murongo ndetse biri mu byatsi byinshi birebire kandi ku ruhande hagaragara ikiyaga kinini cy'amazi.

Aha haragaragara umusozi runaka umwe wo mu Rwanda. Uriho ibiti byinshi ndetse n'ubutaka butoshye. uwo musozi usa nk'udatuwe kandi usa nk'utagerwaho n'abantu cyane.

Imisozi myiza iri ahirengeye iririmo yakaho akazuba kandi iteye ibiti byinshi cyane, hirya no hino kandi igihe iteganye.

Umubyeyi ushaje, ufite agasuka gatoya, urimo ugerageza kubagara imyaka y'iwe yateye kugira ngo yere neza ndetse bigaragara nkaho ari imboga za dodo, zitoshye kandi zimeze neza.

Umugabo ufite agaseke karimo amatunda yeze kandi asa neza, arimo agenda ayaca ku biti aho yagiye yera, hasa neza kandi n'ikirere kirakeye.

Imbuto ndetse n'imboga bikungahaye ku ntungamubiri higanjemo: imineke, inkeri, amarongi, ibitunguru, pome, inyanya, pavuro, kokombure, karoti ndetse n'ibindi.

Aha haragaragara ubuhinzi bwa kijyambere, bwo gutwikiriza ibihingwa za shitingi cyangwa se amashashi, kugira ngo ibihingwa bizakure bitoshye kandi bimeze neza, nk'ibyo bihingwa hagaragaramo amashu.

Ababyeyi, bahagaze hagati mu murima w'ibihwagari, bishimye kandi basetse ku maso yabo hagaragara umunezero, kubwo umusaruro barimo barabona muri ibyo bihwagari.

Abagabo benshi bambaye utuntu mu mutwe ndetse n'amakanzu y'umweru, barimo bagendera hamwe amakanzu ariho ikirangantego cy'inyange company ikora amazi ndetse n'amata, ndetse n'imitobe iryohera hano mu rwanda.

Umubyeyi uhagaze mu murima w'amashu kandi meza atoshye, afite mu ntoki umupira w'amazi arimo agerageza kuhira amashu , inyuma ye hari umurasire w'izuba.

Umugabo uhagaze hagati mu murima we, arimo agerageza kuhira cyangwa se guteramo amazi, kugira ngo ibihingwa bye bibashe kuba byakura neza, arimo arakoresha itiyo yacometse ku mazi.

Umugabo wishimye uhagaze mu busitani burimo indabyo nziza kandi zitoshye, urimo wuhiramo amazi aseka kandi yishimye, aha hakikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza.

Umubyeyi ukuze cyane urimo wuhira ibihingwa bye ndetse akikijwe n'ibiti n'insina, munsi yikirere gikeye kandi gisa neza arimo arakoresha indobo kugira ngo yuhire.

Ababyeyi babiri bari mu murima umwe afite igikoresho cyabugenewe gifasha kuhira ibihingwa kugira ngo bikomeze bitohe ndetse undi nawe yikoreye umufuka.

Utwuma twabugenewe turimo dufasha gusakaza amazi mu murima hose ndetse kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure neza kandi bitoshye, utu kandi dufasha kugira ngo dutere amazi hose bitagoranye.

Umugabo uhagaze mu murima kandi ufite itiyo yacometse ahaturuka amazi arimo aragerageza kugenda yuhira imbuto ze cyangwa se imyaka ye, kandi ibi bifasha kwihutisha akazi.

Umurasire ukoresha izuba, uteretse hanze kugira ngo ubashe kuba wajyamo izuba ndetse hejuru y'ibase ukikijwe n'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze mu murima w'ibigori bisa neza kandi bitoshye, bafite itiyo barimo baragerageza kuhirira no guteramo amazi mu bihingwa kugira ngo bibashe kuba byakura neza.

Udutiyo twabugenewe turimo dutuza amazi hirya no hino mu murima kugira ngo ntihagire nta hamwe birangira hatageze amazi, kandi ubu buryo bukaba bworoshye bukoreshwa nta muntu wiriwe afata itiyo azengurukamo.

Umugabo wambaye imyenda y'icyatsi n'agapfukamunwa uhagaze hagati mu murima, ufite igikoresho cyabugenewe gikoreshwa mu kuhira ibihingwa ndetse n'imbuto akaba arimo aruhira ibihingwa bye.

Umurima munini usa neza kandi urimo ibihingwa bitoshye, ukikijwe n'imisozi miremire kandi myiza, harimo akamashini gashinzwe kuhira no gutera imiti kugira ngo ibikoko bitazataka imyaka.

Imisozi miremire myinshi igizwe n'amashyamba ndetse ya kimeza, atoshye kandi asa neza, akurura ba mukerarugendo ndetse hagaragara n'ikirunga hirya.

Ubutaka busa neza bwiza burimo ibiyaga ndetse n'ibibaya n'imisozi iri ahirengeye, iriho amashyamba menshi ndetse n'ibiti byiza birebire by'inganzamarumbu.

Imisozi myiza miremire iriho ibiti byinshi ndetse n'amaterasi y'indinganire agezweho afasha kuba isuri itatwara ubutaka ndetse n'ikirere gisa neza gifite umucyo.

Imisozi myinshi ikikije ikibaya giteyemo imyaka ndetse n'amaterasi y'indinganire, hirya no hino hari ibiti byiza ndetse n'insina nyinshi, munsi y'ikirere gikeye kandi gifite umucyo.

Ahantu heza hagaragara ubutaka bwera, hagaragara insina n'imisozi iri hirya no hino, ahateye amaterasi y'indinganire, atuma ubutaka budashungumuka iyo imvura iguye ndetse hirya no hino hateye ibiti.

Ababyeyi babiri barimo bagenda mu murima, bikoreye ibitebo birimo imyaka, umurima usa neza urimo ubwatsi butoshye ndetse ukikijwe n'imisozi miremire, iteyeho ibiti byinshi hirya no hino.

Imisozi myiza miremire imwe muyigize u Rwanda kandi iriho ibiti byinshi n'amashyamba, iteyeho amaterasi y'indinganire yifashishwa mu gutuma isuri idatwara ubutaka mu igihe imvura yaguye,

Ishusho nziza igaragaramo ikiyaga cy'amazi asa neza ndetse ahirengeye hari imisozi ituwe, irimo amashyamba ndetse n'ibiti byinshi, ahirengeye inyuma hari ikirunga kimwe mu bigize u Rwanda.

Ishusho y'ahantu hasa neza hari ikirere gikeye ndetse n'ibirunga bigaragara neza n'imisozi ikikije ndetse hari n'akazu kamwe gatuyemo umuntu gakikijwe n'amashyamba n'ibiti byinshi.

Imwe mu misozi igihumbi igize u Rwanda isa neza kandi iri munsi y'ikirere gifite umucyo iteyeho amaterasi y'indinganire afata ubutaka mu gihe isuri yateye kandi hirya hagaragara indi misozi iri ahirengeye.

Abagabo babiri bahagaze mu ishyo ry'inka nyinshi ndetse zibyibushye, barimo bagerageza kubuganiza mu bicuba kugira ngo babashe kuba babona amata kandi menshi.

Inkoko zizwi nk'amatungo magufi, zigiye zivanze inkoko kazi ndetse n'amasake, ziba mu nzu yazo yabugenewe, kandi zifite ibyokurya bigiye binyanyagiye hirya no hino.

Inka z'inyambo z'amahembe maremare kandi zishishe zisa neza zivuye kurisha, zirimo zigenda mu gahanda karekare k'ubutaka ndetse gakikijwe n'ubwatsi.

Inka z'inyambo zirimo zireba hirya, z'amahembe maremare meza kandi zisa neza zitoshye zitananutse, ndetse no hirya hagaragara umushumba uziragiye.

Inkoko zikiri ntoya ziri mu nzu zabugenewe zibamo ndetse hejuru hari utuntu tw'utudobo bazishyiriramo ibyo kurya, zikajya zitoreramo batiriwe babishyira hasi ku butaka.

Abantu benshi bakoze uruziga, biganjemo abasheshakanguhe ndetse n'abatoya, bakikije ibigori byumye bisa nk'ibyanitse hasi, bareba umusaruro wabyo.

Imbuto z'ibigori ndetse n'iza soya, n'iz'umuceri zo gutera mu gihe imvura yaguye kugira ngo abahinzi babashe kuba bakweza, kandi beze imbuto zisa neza.

Abagore batatu barimo bashyira mu mufuka ibigori, banitse ku zuba bikuma, kugira ngo babijyane ku bisesha, babe bakuramo ifu y'igikoma, cyangwa se ifu yo guteka ubugari.

Imbuto z'ibihingwa bigiye bitandukanye zikoreshwa mu guhinga, harimo amashaza, umuceri n'ibindi byinshi ndetse higanjemo ibishyimbo by'amabara menshi iby'umukara iby'umutuku ndetse n'iby'umuhondo.

Abigiye ibijyanye no kuvura amatungo barimo babaga itungo kugira ngo babe bamenya ikibazo ryagize kandi barivure barihe imiti kugira ngo rimererwe neza.

Ishyo ry'inka z'inyambo zihagaze ahantu hamwe ndetse zifite amahembe maremare, hirya yazo hahagaze abashinzwe kuvura amatungo yo mu rugo bambaye imyenda y'umweru ndetse bari kuzisuzuma.

Abaganga babyigiye bashinzwe kuvura amatungo ndetse n'inyamaswa, bambaye imyenda yabugenewe y'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa kugira ngo batandura uburwayi bwo mu buhumekero, barimo bavura inyamaswa.

Aha haragaragara inka z'Inyambo zifite amahembe maremare kandi zibyibushye ndetse hari abantu bari ku ruhande bashinzwe kuvura amatungo ndetse no kuyitaho bambaye imyenda yabugenewe.

Abashinzwe ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo b'abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze mu kiraro barimo bagerageza kureba ikibazo inka yaba ifite ndetse no kugerageza uko bayivura.

Abavuzi b'amatungo atandukanye yaba ayo mu rugo cyangwa ayo mu gasozi, barimo bavura imbwa yarwaye bayitera imiti ndetse bareba ikibazo ifite kugira ngo ubuzima bwayo bugende neza.

Umugore wambaye imyenda yabugenewe y'umweru ndetse yo gukora mu ruganda, ahagaze imbere y'utudobo twinshi twuzuyemo amata y'Inyange aba afunze mu bikarito kugira ngo abashe kugurishwa.

Umuhungu w'urubyiruko mutoya uhagaze mu kiraro cy'inka ndetse wambaye ibyabugenewe, bituma abasha kuvura itungo neza nta burwayi bimuteye.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa tubarinda kuba bakwirakwiza indwara z'ubuhumekero, bafite izizwi nk'inshinge barimo bashyira imiti yo gutera abantu batandukanye.

Ishyamba rinini ririmo inyamaswa zizwi ku izina ry'imbogo, ziba rinini cyane kandi zizwiho kwirukanka, zifite amahembe ndetse zirimo zirarisha ubwatsi.

Inyamaswa z'ishyamba zizwi ku izina ry'imparage riri ahagaragarara nko mu ishyamba, zikikijwe n'ubwatsi bwinshi butoshye ahagaragara nk'ishyamba.

Inyamaswa z'ishyamba ziteye ubwoba zirimo: inzovu, imvubu, intare, imbogo ndetse n'ingwe. Ziri mu ishyamba ahagaragara ibiti byinshi.

Imparage irimo irirukanka cyane, ndetse ifashwe n'intare, yenda kuyiruma, kugira ngo iyikureho inyama ibashe kuba yarya, birimo birirukanka ni mu ishyamba ahari ibyatsi birebire.